Inama y'abayobozi imbere yabo hari umugore uyiyoboye, afite mikoro imbere yabo ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa, arimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda isa umukara, umutuku ndetse n'isa mweru.

Inama rusange y'abaturage barimo barigishwa ku ngingo zitandukanye imbere yabo hari umuyobozi urimo urabasobanurira afite mikoro yambaye umupira usa umweru afite mikoro isa ibara ry'umutuku imbere yaho ye hari abayobozi.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, rugaragarizaho ibyiza bitandukanye biri mu gihugu cy'u Rwanda, birimo imisozi myiza ndetse bigaragaza n'ahahingwa icyayi cyiza cy'u Rwanda.

Icyapa cyo kwamamaza ikigo cy'igihugu gitanga amashanyarazi, gifite amabara y'umutuku, umweru, umukara, hariho nimero zo guhamagara kubuntu, kiri kumuhanda, iruhande rwacyo hari inzu isize amarangi y'umukara.

Hari umuturage uri ku igare ari mu muhanda iruhande rwe hari amapoto ashinze hariho insinga z'amashanyarazi yambaye umupira w'ibara ry'umuhondo hari amazu ndetse hari n'ibyapa byo ku muhanda.

Umugabo w’umucamanza wambaye imyambaro y’abacamanza ifite amabara y’umutuku n’umweru, yambaye karuvati mo imbere harimo ishati y’umweru, nta musatsi afite.

Imodoka nini cyane iri hanze nini igaragaza abaturage bari hanze ndetse n'inzego z'umutekano ziri hanze bari iruhande rwayo ari mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka n'amamoto kuko ufite ikibazo cyo kuba warangiritse, ku ruhande rumwe runyuramo abanyamaguru hari ahagiye hangirika.

Igikoresho gikoreshwa mu butabazi igihe hari umuriro, kikaba gifasha mu kuzimya umuriro, igihe habaye inkongi y'umuriro, bikaba ari byiza kuba wakigira mu rugo rwawe cyangwa se ahandi hantu hateranira abantu benshi mu buryo bwo kwirinda inkongi.

Icyumba kiri kuberamo amatora y'abayobozi, umuturage yinjiye ajya gufata urupapuro rw'itora aratora, hanyuma hari n'uri kumufasha amusobanurira uburyo amatora agomba kugenda mu buryo bunoze.

Ikibuga kinini cyiza gisa neza bakiniramo umukino wa tenisi hirya hakaba ari aho abafana baje kwihera ijisho umukino bicara, ndetse barimo baranafana baje bakinnyi baje gukina.

Umuhanda mwiza, usa neza, ufite isuku, nta myanda irimo, urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, ku mpande hari ibiti bitanga amahumbezi ndetse n'ubusitani bwiza butanga ubwiza bw'umuhanda.

Mu muhanda ahantu hari ibiti birebire cyane bigaragaza aho abanyamaguru banyura bambuka umuhanda, kiri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'umukara ndetse kimanitse ku muhanda.

Icyapa kiri ku muhanda cyerekana aho abanyamaguru banyura bakambukira, kiri mu Mujyi rwagati, gifite amabara y'umutuku n'ay'umukara, agaragaza aho abantu bagomba kunyura bari kwambuka umuhanda.

Inyubako ndende ifite amarangi y'umukara ndetse n'umweru, imbere yayo hari insinga zitwara amashanyarazi zifite amabara y'umukara ndetse hari n'ikirere gifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda muremure mwiza urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto zitwara abagenzi ndetse n'imodoka kuruhande hari ibyapa igenda bifite ibisobanuro bitandukanye biyobora abantu.